Umugore ahagaze arigutanga ikiganiro hagati y'imbaga abantu bicaye mu matende abiri arebana hagaze hagati yabo inyuma hari abandi bantu bamushagariye barikumva ikiganiro arigutanga imbere ye hari umunty ufite camera urimo gufata amashusho ndetse n'undi umuhagaze iruhande.

Umunyonzi utwaye igare, yambaye umupira w'ubururu n'ipataro y'umukara, atwaye igare, ageze aho abanyamaguru bambukira. Mu muhanda, ku ruhande rwo hirya harimo imodoka y'umukara irimo iragenda, inyuma yayo, nko ku ruhande hari moto.